Ibidukikije ni byiza cyane kuko biduha umwuka mwiza duhumeka, bigaragara neza ahantu biri cyane cyane iyo byegereye amago tuba dutuyemo, iyo ubirebye ubona binogeye ijisho.

Ibidukikije bivamo ibikoresho bitandukanye, bakuramo imishingiriro, babohamo, ingobyi za kinyarwanda bahekamo abarwayi, babohamo intara bagosoza ibishyimbo n'ibindi,

Ubwoko bw'ikimera cyibitsemo umumaro mwinshi cyane, iyo umuntu akomeretse amababi yacyo urayaca urayakaraga, ukayashyira ku gisebe gihita gikira vuba kuko kiba gikaze.

Ibidukikije ni ubuzima biduha umwuka mwiza duhumeka ,bigatanga imvura, bikurura abakerarugendo baza kubireba ,bitubera n'umutako w'aho dutuye n'aho dukorera.

Ibidukikije ni ingenzi biduha umwuka duhumeka, bizana imvura mu gihugu, abahinzi barishima kuko baba babonye igihe cyo guhinga cyiza.